Amazi n'ingenzi mu buzima, kugira ngo tuyabone aba yakorewe isuzuma ritandukanye, mu bikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, aca mu nzira nyinshi zirimo ibyuma, zirimo imiti akagenda akatugeraho asa ne...

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru uhagaze hagati y'abagore bateruye abana n'abagabo bicaye ku ruziga mu nzu irimo amarangi y'umweru ifite n'amadirishya atanga urumurima mu imbere, ari kubaganiriza ku buryo bwo kugera ku bigo nderabuzima n'ibyo bikora.

Umubyeyi uteruye umwana mu kaboko kamwe, wambaye igitenge cy'umweru n'ubururu, n'agapira k'iroza. Akandi kaboko kari kuri robine, afite indobo y'umukara ari kuvomeramo. Inyuma ye hari igiti kinini n'inzu zubakishijwe ibyatsi.

Turi kubona umugabo n'umugore bahagaze imbere y'inzu iriho amatafari ahiye n'idirishya rifite ibirahure binini, bari gutanga imiti iri mu dukarito tw'icyatsi n'akandi k'ubururu n'umweru, bambaye neza, baranezerewe gufasha abantu.

Abajyanama b'ubuzima bahagaze ku murongo bifotoza mu buryo bwiza leta y'u Rwanda yashyizeho kugira ngo abantu babashe kwegerezwa ubuvuzi bw'ibanze byihuse, bakora akazi gatandukanye ku rwego rw'imidugudu niho babasanga.

Umugore uvuye guhinga ashinze isuka hasi yikoreye igitebo kirimo imigozi y'ibijumba, yambaye agapira k'umuhondo n'umukara gaciyeho uturongo yambaye n'ikoti, ikirere kiragaragara ko cyijimye inyuma ye hari inzu iriho amategura.

Abana bari mu kigero gitandukanye bafite uruhu rwirabura, bahagaze imbere y'ibyatsi bitoshye hagati y'ibindi byatsi byumye iruhande rwabo, bafite utubido bamwe bajya kuvoma abandi bambaye uturenge.

Abantu b'abahungu n'abakobwa bicaye n'abahagaze, bari kwifotoza. Bavuye mu mahugurwa yatanzwe kubijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Baranezerewe kubw'ibyo bungutsemo. Bari mu nzu ifite amarange y'umuhondo n'igisenge gisa umweru.

Umuntu wicaye hasi yambaye ubusa, amaboko ye afashe akaguru gahinnye gafite umunyururu hafi y'ikirenge, akandi kararambuye aragaragara ko mu maso ababaye kandi yishimye, ari ahantu hasa nabi.

Umusore wirabura, wihebye wipfutse mu maso, wicaye imbere y'igikuta cy'ivu, kimanitseho amashusho ya firime zitandukanye. Arihebye bigaragara, kuko adashaka no kureba abantu mu maso.

Umusore ufite uruhu rwirabura n' umusatsi mukeya. Wogoshe ubwanwana ku buryo bugezweho. Araseka yerekana amenyo y'umweru akeye. Yambaye ishati y'ubururu ifunguye imbere. Harimo agapira gasa n'uruhu rwe. Ari ahantu hasa neza cyane.

Ibikoresho byifashishwa mu kuvura amenyo harimo intebe yeguka yihina, imbere yayo hari itara rimurika mu kanwa iyo bari gukura amenyo cyangwa bari kuvura amenyo, biherereye mu nzu yisanzuye ifite inkuta z'umweru nziza cyane n'urumuri rw'idirishya rinini.

Abaganga n'abarezi, harimo abakobwa n'abahungu bafite uruhu rwirabura n'abafite uruhu rwera; bari mu ishuri, bari kwereka abana uburyo bakora isuku y'amenyo kugira ngo birinde indwara z'amenyo.

Ifoto igaragaza amenyo y'umuntu ukuntu ateye. Baba bakwereka amenyo y'umuntu ukuze, uko ateye, uko yavurwa. Iyo harimo indwara babasha kuyibona bakayikwereka wowewe nyiri iyo foto.

Turi mu cyumba cyo kwa muganga, aho tubona amaguru y'umuntu usheshe akanguhe wambaye itaburiya y'ubururu, igitanda kiri inyuma ye ni icyo kwa muganga, imbere ye hari urumuri rw'idirishya, ari gusanga iryo dirishya kugira ngo arebe hanze.

Ababyeyi batatu bafite uruhu rwirabura, umwe muribo ari kubafotora, bambaye imyenda isa neza ifite amabara y'umuhondo, ubururu n'umweru, barishimye bafite imisatsi irimo imvi nyinshi.

Abagore babiri bafite uruhu rwirabura bicaye mu gikoni bari gutegura ibyo guteka, umwe arashaje undi aracyari mutoya, ari kumubwira inkuru zishimishije byamushimishije cyane.

Ababyeyi batatu bakuze, babiri muri bo bambaye amadarubindi, bafite uruhu rwirabura, umwe muri bo ari kubereka uburyo bazajya bakoresha indodo bahawe kugira ngo babohemo ibintu bifitiye akamaro ba mukerarugendo.

Abagabo bicaye ku ruziga, begamye ku nkuta z'umuhondo, bari kuboha bageze mu zabukuru bigaragara, bamwe bambaye utugofero mu mutwe, undi yambaye ikanzu, babiri muri bo bashinze amavi bari gukurikira ibyo mugenzi wabo ababwira.

Inama ngarukamwaka ku buzima harebwa uburyo uduce tumwe na tumwe, tugerwaho n'ubuvuzi bigoranye bibanda ku ndwara z'abagore mu bice by'imijyi imwe n'imwe, uburyo babona ubuvuzi bwihuse.

Abahungu n'abakobwa bafite uruhu rwirabura, bishimye, banezerewe, barerekana uburyo bwiza bwo kwirinda, mu ntoki zabo bafite udukingirizo tw'amabara y'umuhondo, umutuku n'ubururu.

Abana bashobora kwandura indwara n'ibyorezo bitandukanye. Ariko ubu uburyo bwiza bwo kubarinda ni ukubakingiza. Itangazo rya Minisiteri y'Ubuzima ifatanyije n'ikigo gishinzwe gutanga inama no guteza imbere itangwa ry'ubuvuzi mu Rwanda, bishishikariza ababyeyi gukingiza abana babo igihe icyo aricyo cyose.

Umugabo ufite uruhu rwera, ufite igipapuro cyanditseho ko urukingo rw'ubushita ruboneka, yambaye ingofero n'amadarubindi n'umupira w'ubururu w'amaboko maremare.

Federasiyo Mpuzamahanga y'ubuzima bw'ibidukikije, igira ikirango kirimo amabara y'icyatsi n'umweru, agaragaramo imigabane yose yo ku isi. Yizihiza umunsi wayo mpuzamahanga kuri tariki makumyabiri n'esheshatu z'ukwa cyenda.

Ababyeyi b'abagabo n'abagore bambaye udupfukamunwa, imbere yabo hari imeza iteretseho ibikoresho by'isuku by'abakobwa, bari kuganiriza abana b'abakobwa banabaha ibyo bari bafite mu bikapu babereka uburyo bikoreshwa.

Inyubako z'ibitaro bya Ruhengeri biherereye mu karere ka Musanze, ni ahantu hisanzuye hari ibiti binini bitanga amahumbezi, hari ubusitani bwiza burimo ibyatsi bikase neza, aho umuntu ashobora kuruhukira.

Inzu igurishirizwamo imiti iri ahantu hisanzuye, iri mu igorofa ryubatswe ku buryo bugezweho. Ifite imiryango ibiri minini n'amadirishya bitanga urumuri mo imbere, imbere yayo hahagaze imodoka iri kuma pave.

Inyubako ikorerwamo ubuvuzi, ifite i uburange ry'iroze ryerurutse igisenge cyayo kirimo amabati atukura, gifite inkingi enye, imbere yayo hari intebe eshatu z'umutuku hari n'ibyapa biranga ibikorwa bikorerwa muri iyo nyubako.

Inyubako iri gukorerwamo imurikabikorwa hitabiriwemo n'abantu bafite uruhu rwera n'abafite uruhu rwirabura, iri kwerekanwa n'umuntu wambaye itaburiya n'agapfukamunwa k'umutuku, yambaye n'akanozasuku mu mutwe. Ari gukoresha mudasobwa yerekana uburyo ki iyo mashini ikora.

Inzu yububiko bw'amaraso isa umukara, ifite ububiko bwinshi butandukanye; turi kubona udushashi turimo amaraso batanga kwa muganga, yifashishwa mu burwayi, iyo bakeneye amaraso.

Inzu iriho inkuta zerurutse, hariho uduhuhamuyaga dutatu ku mpande zaho, ifite umuryango munini ugaragaza ibiri gukorerwa hanze, hasi hari amakaro yera.

Umuganga w'umukobwa wambaye imyenda y'icyatsi, ufite terefone inyuma utebeje neza; ari kugenda yerekana inyubako z'ibitaro n'ibitanda n'ukuntu amarido yaho bayazinga iyo abarwayi barimo.

Inyubako nziza yisanzuye ifite inkuta z'umweru, ni inyubako yo kwa muganga, irimo agatanda gafite uburiri bw'ubururu gashasheho ishuka y'umweru, iruhande rwako hariho ibyuma bikoreshwa kwa muganga, bipima umuvuduko w'amaraso.

Inzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, igezweho irimo ibyuma bigezweho ifite inkingi zifashe igisenge kiriho amatara meza agaragaza ubwiza bw'inzu, hasi hari ibara ry'ubururu n'iry'umuhondo, amadirishya yaho ni meza kandi atanga urumuri.

Umugabo ufite uruhu rwirabura uri kunywa amazi mu icupa afatishije akaboko kamwe k'iburyo, yambaye umupira w'amaboko magufiya umwegereye, inyuma ye hari ubusitani arareba ikirere kiri hakurya ye aranezerewe.

Umuganga wambaye agapira k'iroza wirabura. Ufite iminweri mu mutwe. Ari gusuzuma akana kararamye kamureba mu maso, agafashe mu mutwe. Akana kirabura. Bicaye imbere y'ameza manini ariho ibikoresho bifashisha kwa muganga.

Akaguru k'umuntu wirabura wicaye ku ntebe ifite imisego y'umweru, karashinze akandi kararambuye, afatishijeho akaboko kamwe akandi gafashe imiti imufasha kugabanya ububabare mu kagomba mbari, iri mu gashashi irasa ubururu.

Udusanduku tubiri dutukura dusanzwe tubamo imiti ikoreshwa mu butabazi bw'ibanze, iruhande rwaho hari abantu bicaye bari kureba umupira, ikipe imwe yambaye imipira y'umuhondo n'amakabutura y'umuhondo.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri kuko ari ingenzi mu buzima bwa muntu, ari munsi isa neza, imbere ye hari mudasobwa igendanwa, naho iruhande rwe hari icupa ry'amazi ripfundikiye neza. Yicaye asobekeranyije amaguru ari kugorora amaboko ye.

Umusore uri guterura ibyuma ngororamubiri, ari mu nzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, irimo ibyuma byinshi bitandukanye, irimo amarangi yijimye, harimo n'urumuri rw'itara riri hejuru rugaragaza neza ibikorerwamo.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri, ashinze akaguru kamwe, akandi karapfukamye, akaboko ke kararambuye, gafashe ku kaguru gapfukamye ku kibero, ari kuyikorera mu nzu irimo amarangi y'umweru ku rukuta rumwe, urundi ruriho amatafari.

Akadege gato gatwara amaraso, gafite agakarito k'umweru kari ku musaraba w'umweru, uri mu ruzeru rw'umutuku. kari kugenda mu muhanda urimo ibiti n'inyubako nziza. Kari kugenda kitegeye izuba.

Imiti ikoreshwa mu buvuzi bw'ibanze, ifite amababi menshi atandukanye; hari amababi y'icyatsi, hari amababi y'umuhondo, hari aba ari maremare, hari abari magufi, hari ibyera mu gisambu, hari n'ibyo abantu biterera.

Hano turi kubona imiti gakondo. Ifite uturabyo tw'umuhondo n'utubabi tw'icyatsi duto duto. Bafite agasekuru n'agahini. Bari kubisekura kugira ngo babashe kuvanamo ifu. Biteretse ahantu ku kameza keza gasa umweru.

Imiti ya gakondo hari iyo umuntu ashobora kwiterera. Ihingwa mu butaka bw'inombe. Ihinze iruhande rw'isima, iruhande rw'inzu. Bigaragara neza ko umuntu yayitayeho, kugira ngo azajye ayikoresha mu buzima bwe bwa buri munsi.

Ishusho igaragaza ipapayi, imwe irasatuye indi iracyari yose. Ni ingenzi mu mubiri w'umuntu yaba ku mwana cyangwa ku muntu mukuru kuko rwifashishwa nk'imiti gakondo mu buzima.

Kugira ngo umenye imiti gakondo ni uko uyibona. Aha baratwereka imiti itandukanye, iri mu tuntu twiza tw'umukara, imwe isa umweru, indi isa umukara, indi isa ubururu, indi ni ibijumba, ibindi ni ibiti, kugira ngo uyimenye ni uko uyibona.

Ibyatsi bikoreshwa mu buvuzi bwa gakondo, biteye ahantu hari amabuye iruhande rw'urugo rw'imbaho, bifite amababi acikaguritse maremare, birasa icyatsi birimo n'ibara ry'umuhondo.

Imiti gakondo igira ubwoko bwinshi butandukanye, hari iba ari ibijumba, hari bari ari amababi hari iyera hejuru kubutaka hari n'iyera hasi mu butaka, ifite amabara atandukanye, isa umutuku, isa icyatsi, isa umuhondo byose byifashishwa mu kuvura.

Icyatsi gikoreshwa mu buvuzi gakondo. Gifite amababi y'icyatsi, giteye nk'intoki z'umuntu. Gihinze ahantu hari amabuye, iruhande rw'amatiyo, hari n'ibindi byatsi. Ubuvuzi gakondo ni uburyo bukoreshwa cyane mu Rwanda, bwifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Amacupa y'ibirahure aryamye, apfundikiye neza, yometsweho udupapuro dusobanura ibintu birimo imbere, abitswemo imiti gakondo ikoreshwa mu buvuzi bwa kinyarwanda. Kandi yifashishwa cyane.

Kugira ngo ugire mu maso hasa neza, ni ukuba wahakoreye isuku, hari uburyo bwinshi bukoreshwa kugira ngo ugire isura isa neza, hano baratwereka uburyo bwo gukoresha, ni agatambaro wiyomeka mu maso, kakagufasha gukuramo imyanda.

Kugira umutu ugurwe n'uko bifunze byibandwaho, iyo ikarito yayo isa neza, handitsemo ibikozwe muri uwo muti, ingaruka byakugiraho, ubwiza bw'uwo muti, byitabwaho kugira ngo umuntu awukunde kandi anawukoreshe.